Urumodoka runini rugaragara nk' aho rukoreshwa mu mirwano ndetse haragaragaraho n'abantu benshi basa naho' ari mu nzego z'umutekano, mu cyiciro cya polisi . Inyuma y'aho hagaragara ibiti byinshi cyane, bigaragara ko ari akantu kameze nk'aho ari ishyamba.

Umuhanda wa kaburimbo, urimo imodoka ziri kugenda, ndetse n'abagabo batanu n'umugore umwe, uwo mugore yambaye imyambaro ya gipolisi bigaragara ko ashinzwe umutekano, batatu muri bo bigaragara ko ari abana basanzwe, naho babiri muri bo, bakora umurimo wo gutwara moto aho batwara abantu n'ibintu.

Ihuriro ryahuje abaturage ndetse n'inzego z'umutekano. Izo mu rwego rwa daso hagamijwe kubungabunga umutekano mu gace batuyemo by'umwihariko mu gihugu cyose cy'u Rwanda.

Ikigo cy'amashuri aho abanyeshuri bari guhabwa amahugurwa n'inzego z'umutekano ku byerekeranye n'uburyo bakumira inkongi zikomoka ku muriro mu miryango yabo ndetse n'ahandi hose bagenda.

Igikoresho kiri gukoreshwa na polisi y' u Rwanda, by' umwihariko hagamijwe kubungabunga umutekano wo mu mazi, iki gikoresho benshi bakizi nk' ubwato aho ari cyo gikoresho gishobora kuba cyakora ingendo mu mazi menshi cyane nko mu biyaga ndetse n' inyanja.

Amashuri bigishirizamo, ndetse mo hagati mu kibuga haragaragaramo inama yahuje abayobozi, by'umwihariko inzego z'umutekano, porisi ndetse n'abanyeshuri. Haragaragara ibendera ry'gihugu cy'u Rwanda, bicaye ku ntebe zikoze mu biti.

Amabara agize ibendera y'igihugu cyacu harimo umuhondo, icyatsi n'ubururu kandi haragaragaramo, abantu bashinzwe umutekano w'igihugu cyacu mu rwego rwa daso, mu rwego rwa polisi, hagaragara n'abandi bantu basanzwe bose hamwe, bari gufata imyambaro izwi nka bote.

Intama yahuje abantu b'ibyiciro byose, abagore ndetse n'abagabo aho bari kuganira n'inzego z'umutekano by'umwihariko porisi, ndetse iyi nama bigaragara ko yabereye mu kigo cy'amashuri nk'uko bigaragara ku nyubako zigaragara inyuma y'abo bantu aho bateraniye.

Inzu nini cyane bigaragara ko iri gusha, yafashwe n'inkongi y'umuriro, umwotsi mwinshi cyane ndetse n'umuhanda wa kaburimbo uri hagati y'ahantu hasa naho hari isoko ndetse n'iyo nzu irigusha. Abantu benshi barimo abagore n'abagabo ndetse n'imodoka iri hano mu isoko hagati.

Inama rusange yahujije abaturage b'inzego zose ndetse na porisi, aho bari guhabwa amahugurwa ndetse n'ubukangurambaga bwerekeranye na gahunda ya polisi yitwageramahoro.

Abaturage bihuje ahantu hamwe, aho bari gukora igikorwa kizwi nk'umuganda. Bari kubaka ikiraro bazajya bambukiraho, bigaragara ko kiri hejuru y'umugezi, bari kucyubakisha ibiti by'intusi.

Inama yakoranyije abaturage ndetse n'ubuyobozi mu gice kimwe cyo mu Rwanda, aho hagaragara ibirango by'ibendera ry'igihugu cy'u Rwanda, icyatsi, umuhondo ndetse n'ubururu.

Ihuriro ryahujije inzego z'umutekano ndetse n'abaturage muri rusange, izo nzego harimo polise ndetse n'igisirikare by'u Rwanda, bari kuganira ku ngingo zigiye zitandukanye zateza imbere kubungabunga umutekano.

Abantu b'ibyiciro byose abagabo ndetse n'abagore bigaragara ko bari mu nama, aho imbere yabo hari intebe z'umweru ziticayemo umuntu n'umwe, ariko imbere yabo bose hariho umuntu bigaragara ko ari kubabwira ibintu ababwira, inyuma yabo haragaragara ingo zituwemo n'abantu, n'insina zera ibitoki biribwa.

Inama rusange yahujije abaturage ndetse n'inzego z'umutekano by'umwihariko igice cy'igisirikare, aho bari guhabwa inama ndetse n'amabwiriza ku bijyanye no kubungabunga umutekano mu gace batuyemo.

Inka zororwaga mu Rwanda rwo hambere, zifite amahembe maremare cyane zamenyekanye ku izina rizwi nk'inyambo. Ahantu ziri kunywera amazi ho bahita ikibumbiro.

Akayira kari gucamo umugabo utambaye inkweto, wambaye agapira k'umweru, ufite igikoresho bakoresha wari kwenga ibitoki bita umuvure.

Inka z'inyarwanda zifite amahembe maremare zizwi nk'inyambo ,kandi hirya y'aho haragaragara inzu ikozwe n'ibiti yitwa ikiraro ariho izi nka zirara kandi hagaragara umuntu uri kuzikama bigaragara ko ari we uzikama buri gihe.

Inzu za kinyarwanda zubatse mu byatsi, inyuma yaho haragaragara utuntu tw'udusozi dutoya, ariko inyuma cyaneeee! Hari kugaragarayo imisozi yitwa ibirunga. Hagati aho ngaho harimo kugaragaramo ibiti, haragaragaramo ahantu harambuye cyane, cyane.

Abagabo bafite ibikoresho bikoreshwa n'abantu babyina muri byo ngibyo twavuga amacumu, imigara ndetse n'amayugi, aba bagabo barazamuka basa naho bagiye gutangira kubyina, ntabwo muri make mbese baratangira igikorwa cyo kubyina.

Igikoresho ndangamuco nyarwanda, kizwi nk'ingoma, cyakoreshwaga mu birori, ndetse by'umwihariko, cyane cyane ibwami, cyabaga gikoze mu ruhu rw'inka. Haragaragara imirishyo yakoreshwaga bazivuza.

Abagabo bazwi ku izina ry'intore, bari kubyina'imbyino z'umuco nyarwanda, inyuma yabo hagaragara abantu bari kuvuza ingoma bazwi ku izina ry'abakaraza, inyuma yabo hagaragara inzu gakondo yubatswe mu byatsi izwi nk'ingoro y'umwami.

Igikoresho gakondo cyo mu umuco nyarwanda kizwi nk'umutiba, iki gikoresho cyakorwaga bifashishije ibyatsi, ndetse n'imbingo bakagihumesha amase, yakomokaga ku nka iki gikoresho cyakoreshwaga mu bworozi bwo korora inzuki mu rwego kugira ngo babashe kubona umusaruro w'ubuki.

Igikoresho gakondo cyakoreshwaga mu rwanda kizwi ku izina ry'isekuru, iki gikoresho cyakorwaga mu giti n'abantu bitwaga abaramvuzi, haragaragara kandi igikoresho gikoze mu giti kirimo akantu k'akayunguruzo kitwaga akayunguruzo cyifashishwaga bayungurura amafu by'umwihariko ifu ikomoka ku myumbati izwi nk'ubugari.

Akayira karimo ishyo ry'inka nyarwanda zizwi nk'inyambo. Izo nka zifite amahembe maremare cyane, nk'umwihariko wazo. Iruhande haragaragara agahuru kagizwe n'ibyakatsi zigenda zirisha.

Inyubako gakondo yakorerwagamo ubworozi bw'inka, izwi nk'ikiraro, yubakishije ibit,i rimwe na rimwe yabaga ishakakaje ibyatsi, imbere yaho hagaragara ibyatsi byakoreshwaga nk'icyarire, ari cyo inka zaryamagaho.

Igikoresho cyakoreshwaga mu muryango mugari nyarwanda, kuva kera hose. Kitwa indosho, aho cyakoreshwaga mu mirimo yo mu rugo, by'umwihariko mu gutegura amafunguro, iki gikoresho cyaje kuvaho aho hadukiye ibikoresho byazanywe n'abakoloni mu Gihugu.

Itsinda ry'abakobwa bari ahantu hazwi mu muco w'u Rwanda cyane nko mu rubohero, by'umwihariko bari kuboha ibikoresho bikoreshwa mu rugo, by'umwihariko icyitwa ikirago, aho cyavaga mu byatsi ndetse bagakoresha utuntu tumeze nk'utugozi natwo twavaga mu byatsi.

Ibikoresho bya kinyarwanda bikoze mu ibumba bakoreshaga mu kubika imisururu, inzoga n'ibindi biteretse ku bintu biboshe mu birere bitaga ingata.

Umugabo ufite inyogosho idasanzwe ariko ifite byinshi isobanuye ku mateka y'igihugu cy'u rwanda, inyogosho bayiyogosheshaga igihe habaga hari ikibazo cyabaye mu gihugu, urugero nko gutanga k'umwami iyi bayitaga amasunzu.

Abagabo bari gukina umukino uzwi cyane mu muco nyarwanda bita urusoro. Ikindi kandi bafite igikoresho kizwi mu muco nyarwanda, kizwi nk'igicuma, aho cyeraga ku byatsi. Cyakoreshwaga banywa inzoga ndetse n'umusururu.

Igikoresho cya kinyarwanda kinini cyabumbwaga mu bwoko bw'itaka bitaga ibumba, cyakoreshwaga mu kubika ibisukika, harimo umusururu, amazi, inzoga ndetse n'ibindi.

Umugabo w'umusaza ukuze ufite igikoresho gakondo cyakoreshwaga mu Rwanda rwo hambere, bakinyweshaga itabi, bacyitaga inkono y'itabi, ariko by'umwihariko izina ryacyo bwite bacyitaga ikijigo.

Ibikoresho gakondo byakoreshwaga mu muryango mugari nyarwanda, kuva kera na mbere y'ubukoroni. Harimo ibicuma bibiri, ndetse buri gicuma kirimo imiheha ebyiri ebyiri. Iruhande rwabyo haragaragara ibikoresho byari biboshye mu byatsi byitwa ibirago.

Abantu batatu bafite ibikoresho bitandukanye bikoreshwa mu bikorwa by'imyidagaduro, harimo gitari ikoreshwa n'abantu bakora umuziki bacuranga indirimbo. Icumu rikoreshwa n'abantu baba bari kubyina, ndetse n'imigara baba bambara ku mutwe igihe bari kubyina.

Igikoresho gakondo kizwi cyane mu muco nyarwanda, aho cyakorwaga mu bwoko bw'igitaka, kizwi nk'ibumba. Izina ryacyo, bacyitaga ikibindi. Kifashishwa mu bikorwa byinshi bitandukanye aho cyakoreshwaga mu kukibikamo ibisukika nk'amazi, inzoga, umusuru, ndetse n'ibindi byinshi cyane.

Umudamu w'umunyarwandakazi ufite igikoresho gakondo bita intara, aho ari kugosora umusaruro w'ibikomoka ku buhinzi by'umwihariko ibishyimbo.

Bimwe mu bikorwa byakorwaga n'abanyarwanda, by'umwihariko abanyabugeni bo hambere haragaragara ibibumbano biri mu ishusho y'inyamaswa izwi nk'ingagi, zikunda kuba mu misozi miremire, by'umwihariko mu birunga biboneka mu Majyaruguru ashyira u Burengerazuba bw'u Rwanda.

Ibikoresho gakondo byakoreshwaga mu rwanda rwo hambere, harimo ibikoresho bikoze mu ibumba byitwaga ibibindi, byakoreshwaga kubikamo ndetse no gutaramo inzoga imisururu n'ibindi, hari ibibindi bakoreshaga bateka byitwaga inkono, hari abantu ku ruhande babikozeho ndetse n'abandi bari kubishungera babireba gusa.

Abantu benshi cyane bose bafite amacumu, bigaragara ko ari abagaragu batwaraga umwami mu gihe cya kera, kandi koko biragaragara ko hejuru mu ngobyi harimo umwami batwaye.

Umugabo ufite igikoresho cyakoreshwaga mu muco nyarwanda nk'igicurangisho kizwi ku izina ry'umuduri. Iki gikoresho cyifashishwaga n'abahanzi gakondo mu myaka yashize mu gihe ubukoroRoni butari bwakazanye ibikoresho bishasha dukoresha uyu munsi.

Ingoma zibambishijwe uruhu, zirambitse ku kantu kameze nk'aho ari agapapuro, zikoreshwa mu kuvuza, bavuza ingoma bashaka kumenyekanisha ibyabaye mu gihe cy'ubwami, ndetse by'umwihariko zikoreshwa mu birori cyane, aho baba zikoreshwa buri gihe cyane ziri kumwe n'ababyinnyi.

Inzu gakondo zizwi cyane mu muco nyarwanda, aho zubakwaga hifashishijwe ibyatsi. Ndetse izi nzu zizwiho ko zakoreshwaga nk'ingoro y'umwami. Ni ukuvuga icyo twagereranya n'ibiro by'uyu munsi.

Igikoresho gakondo cyakoreshwaga mu rwanda hambere, aho cyakorwagwaga mu byatsi n'imbingo ndetse n'utundi duti, cyifashishwaga mu bworozi bujyanye no korora inzuki, kugira ngo babone umusaruro uzikomokagaho, uzwi nk'ubuki.

Ibikoresho gakondo byifashishwaga n'Abanyarwanda batunganya umusaruro ukomoka ku rutoki, by'umwihariko urwagwa. Aho hagaragara umuvure wifashishwaga benga inzoga y'ibitoki, ndetse hagaragara n'uduti tuziritse hamwe twitwaga udutanda, twifashishwaga bakamura igikatsi. Haragaragara n'ibicuma bifashishaga banywa urwagwa.

Igikoresho gikoze mu giti cya Kinyarwanda gikoreshwa by'umwihariko n'aborozi bashaka kugira ngo babikemo amata azabashe kuvura mu gihe runaka.

Abagore bafite ubwoko bw'itabi ryanyobwaga mu rwanda, aho baritumaguraga. Iri tabi rizwi ku izina ry'ibikamba. Ibice rikunda kubamo, nka Gitarama ndetse no mu bindi bice by'igihugu cy'u rwanda.

Abagabo bazwi ku izina ry'abakaraza, bari gukoresha igikoresho gakondo cyakoreshwaga mu Rwanda, kizwi ku izina ry'ingoma. Buri umwe muri bo afite uduti tubaje neza cyane, dukoreshwa bavuza izi ngoma twitwa imirisho.

Abakobwa babiri bari gukora umurimo uzwi nko kugosora ibishyimbo, cyangwa se ibindi binyampeke byose, bakoresheje igikoresho gakondo cyakorwaga mu giti kizwi nk'umugano, kimenyerewe ku izina nk'inkoko.

Ibikoresho gakondo byakoreshwaga mu Rwanda rwa mbere, mbere y'uko abakoloni barugeramo. Harimo igicuma. Ndetse buri gicuma kiragaragaramo imiheha ibiri yakoreshwaga igihe babaga bari kunywa ibinyobwa, byabaga birimo. Kandi hagaragara n'ibikoresho biboshye mu byatsi bitaga ibirago.

Abagore ndetse n'abagabo bari kubyina imbyino gakondo z'umuco nyarwanda. Haragaragara kandi abantu bari kuvuza igikoresho cyari gikozwe mu ruhu rw'inka bitaga ingoma. Bafite uduti tubajije neza bitaga imirishyo, ari two bifashishaga bavuza ingoma.

Ibikoresho gakondo bizwi cyane mu muco nyarwanda harimo ingoma zabaga zikoze mu bihu by'inka. Zifashishwaga cyane cyane mu birori byahuzaga abantu benshi by'umwihariko ibwami, haragaragara kandi n'umugore uri gukora ibikorwa bijyanye n'ubugeni aho ari kuboha igikoresho kizwi nk'inkoko.

Igikoresho kizwi cyane mu mucyo nyarwanda, aho cyifashishwa n'abantu banywa itabi. Kizwi nk'inkono y'itabi, ariko by'umwihariko izina ryacyo nyakuri bacyita, ikijigo.

Igikoresho cyakoreshwaga mu muryango nyarwanda kuva mu gihe cya kera mbere y'uko abakoroni b'abanyaburayi bagera ino aha. Ariko iki gikoresho cyari gikoze mu byatsi, aho cyari kizwi nk'isinde. Abantu bagikoreshaga igihe bashaka kugamamo imvura cyangwa se izuba.

Igikoresho gakondo cyakoreshwaga mu umuryango mugari nyarwanda, kitwa umuvure, cyakorwaga hifashishijwe igiti cyo mu bwoko bw'umuvumu, cyakoreshwaga batunganya umusaruro ukomokaga ku buhinzi, by'umwihariko urutoki, aho bacyifashishaga bakama urwagwa.

Ibikoresho gakondo byakoreshwaga mu Rwanda rwo hambere, haragaragara icyitwa igicuma, iruhande rwacyo haragaragara ikizwi nk'urukiza kandi hagaragara igikoresho kizwi nk'intara, cyifashishwaga bari kugosora ibinyampeke by'ibishyimbo, ibigori ndetse n'ibindi.

Ibikoresho gakondo byakoreshwaga muRrwanda rwa kera harimo intara yakoreshwaga bagosora ibishyimbo, ibicuma byakoreshwaga bari kunywa inzoga ndetse n'imiheha yakoreshwaga hamwe n'igicuma. Hagaragara n'umubikira wakorwaga waciye igicuma mo kabiri.

Abagabo bazwi nk'intore bari gukora igikorwa cyo kubyina, bafite mu maboko yabo igikoresho gakondo kizwi nk'icumu, ndetse kandi ku mitwe yabo bafite ibintu bimeze nk'imisatsi byitwa imigara, aba ngaba bakoreshwaga cyane mu muco gakondo Nyarwanda mu birori, ndetse no kubyinira umwami.

Abagabo bakikije igikoresho gikozwe mu giti kizwi nk'umuvure, aho buri umwe afite umuseke bari gukora igikorwa cyitwaga gusoma ku ntango mu muco wa Kinyarwanda.

Inzu yuguruye, umuntu w'umugabo wambaye ikoti n'ishati, ufite igikoresho gikoreshwa mu rugo kizwi nk'indosho, ndetse iruhande hariho igikoresho gikoreshwa mu rugo kizwi nk'ikiduki.

Abantu bari kumwe n'ibikoresho bikoze mu mpu z'inka, byitwa ingoma. Aba bantu kandi bafite uduti tubajije neza twitwa imirishyo. Aba bantu bavuza izi ngoma bitwa abakaraza mu muco nyarwanda.

Abagabo babiri bari ahantu mu nzu bari gukiniramo umukino witwa urusoro, muri iyo nzu haragaragaramo ibikoresho gakondo bya kera harimo ibirago, inanga ndetse n'ibindi.

Inzu ya kinyarwanda yakoreshwaga nk'aho umwami yaturaga , cyangwa se ingoro ye, ikikijwe n'inzu za kizungu zisakajije amabati, n'ibyuma bishinze mu butaka.

Igikoresho gakondo kitwa ikibindi, igikoresho gikoze mu ibumba kirimo umusuru uva mu masaka, wabyimbye uzamuka hejuru, ndetse harimo imiseke enye ikoreshwa igihe abantu barimo banywa uyu musururu.

Inzu gakondo igaragaramo ibiti bine bizwi nk'imiganda y'inzu, haragaragaramo igikoresho gakondo cyakoreshwaga mu ntambara cyitwa umuheto, haragaragaramo n'intebe gakondo yakoreshwaga n'abantu baterekeraga.

Igikoresho gakondo kizwi nk'umuco nyarwanda ,cyakorwaga mu giti n'abazwi nk'abaramvuzi ,aho cyakoreshwaga mu mirimo ya buri munsi, by'umwihariko gutunganya umusaruro ukomoka ku rutoki bakoramo ibinyobwa bizwi nk'inzoga.

Abagabo bahetse umuntu w'umurwayi bifashishije igikoresho gakondo kizwi nk'ingobyi. Cyabaga kiboshye mu giti kizwi nk'imigano. Hari ibiti bafasheho basize ku bitugu byabo, byitwaga imijisho.

Igikoresho gakondo cyakoreshwaga mu Rwanda rwo hambere, cyabohwaga mu migano kizwi nk'ingobyi naho ibi biti bibiri bizamuka n'ikindi cyo hepfo gitambika byitwa imijisho akaba ari nabyo abantu bafatagaho bakabishyira ku rutugu bahetse.

Abantu bafite ibikoresho byakoreshwaga cyane cyane mu Rwanda rwo hambere, byitwa umwambi ndetse n’umuheto. Byifashishwaga cyane cyane mu bikorwa bijyanye n’intambara byo kwagura igihugu, byahuzaga u Rwanda n’utundi duce tugiye dutandukanye.

Umunyarwandakazi uri gukora igikorwa kizwi nko gusya, akoresheje ibuye bita urusyo n'irindi rindi bitaga ingasire. Ifu ari kuyishyira ku gikoresho gakondo kizwi nk'inkoko, ndetse afite n'ikindi gikoresho kizwi nk'icyibo, nicyo gushyiramo ifu, ateretse ku gikoresho kizwi nk'ikirago.

Igikoresho gakondo cyakoreshwaga mu Rwanda rwo hambere by'umwihariko kizwi ku izina ry'ingoma, cyakorwaga mu ruhu rw'inka aho cyakorwaga n'abantu bitwa abakanyi kandi hari uduti tubiri twakoreshwaga bayivuza tuzwi ku izina ry'umurisho.

Umunyarwandakazi uri kuboha igikoresho cyakoreshwaga n'abanyarwanda bo hambere kizwi ku izina ry'ikirago. Iki gikoresho cyabohwaga mu byakatsi byitwaga imisuga ,ndetse hakanifashishwa utugozi tuzwi nk'imideyi twavaga ku mifuka.

Inyubako gakondo zabaga mu rwanda rwo hambere zubakwaga hifashishijwe ibyatsi bizwi nk'imigano, by'umwihariko zakoreshwaga nk'ingoro z'umwami, zikikijwe n'akanyubako gakozwe n'ibiti kitwa uruzitiro.

Igikoresho gakondo kizwi mu muco w'u Rwanda cyitwaga agasero, aho cyabohwaga mu biti byitwaga imigano. Cyifashishwaga mu kugitwaramo ibintu by'umwihariko imbuto ndetse n'umusaruro w'ibinyampeke.

Ahantu hari ibikoresho gakondo bikoreshwa mu rugo, harimo imyuko bakoresha bateka hakabamo indobo, hakabamo imbabura, hakabamo ibisero ndetse n'intara bakoresha igihe bari kugosora ibishyimbo, ndetse n'undi musaruro w'ibinyampeke.

Ibiribwa gakondo biribwa mu muryango mugari nyarwanda harimo: ibijumba, ibishyimbo, ndetse n'igitoki. Byose biri ku kintu kiva ku nsina bita ikoma. Hagaragara kandi umuntu ubifite ujyaniye abantu ngo babirye.

Igikoresho kizwi cyane cyane mu muco nyarwanda, aho cyakorwaga mu giti mu gikorwa bitaga kurangura, cyifashishwaga mu gusekura ibinyampeke birimo uburo, ibigori ndetse n'amasaka, si ibyo gusa kandi cyakoreshwaga basekura imiti gakondo, bifashishaga bivura.

Umuntu uri gushyira ifumbire ku gihingwa, ikomoka ku bisigazwa byakomotse ku bicanwa izwi nk'ivu, haragaragara ibimera gakondo bikoreshwa mu buvuzi bizwi nka kapusine.

Igikoresho gakondo kizwi mu muco nyarwanda, gikoreshwa n'abantu batunganya umusaruro wibinyampeke nk'ibishyimbo, ibigori, ndetse n'amashaza. Kizwi cyane cyane ku mazina intara cyangwa se inkoko.

Abagabo bari kubyina imbyino zijyanye n'umuco nyarwanda, bazwi ku izina ry'intore, buri umwe afite icumu mu ntoki ze, kandi ikindi afite imisatsi iri ku mutwe we, izwi nk'imigara.

Ibikoresho byakoreshwaga mu Rwanda rwo hambere byitwaga imitiba, byabohwaga mu rubingo ndetse n'ibiti bito byitwaga imishundura. Ibi bikoresho byakoreshwaga mu bworozi bujyanye n'inzuki, kugira ngo babone umusaruro uzikomokaho, uzwi nk'ubuki.

Abantu benshi cyane, bagizwe n’abagabo, bari kubyina bitwa intore. Bambaye ibintu bikoze mu byuma bitanga amajwi, biri ku maguru yabo, byitwa amayugi. Inyuma yabo kandi, haragaragara inzu gakondo yubakwaga bakoresheje ibyatsi.

Ibikoresho gakondo byakoreshwaga mu rwanda rwo hambere, harimo: ibuye, bashiragaho imyaka, ryitwaga urusyo, ndetse n'ibuye bakoreshaga bayimenagura bayikoramo ifu yitwaga ingasire. Haragaragara kandi igikoresho cyari gikoze mu migano cyitwaga intara bashiragaho ifu.

Inka zifite amahembe maremare cyane zizwi nk'inyambo, zabaga mu Rwanda rwa kera. Abantu bambaye ingofero ndetse n'imyambaro izwi nk'imikenyero, bakora imirimo yo kuvuga amazina y'inka.

Intebe gakondo zizwi cyane mu muco w'abanyarwanda, izitebe zabowaga hifashishijwe igiti cyo mu bwoko bwitwa umugano, uboshi bw'izi ntebe cyari kimwe mu bikorwa ngengabukungu cyarangwaga mu banyarwanda bo hambere.

Ibikoresho gakondo byakoreshwaga mu muco nyarwanda, amabuye atatu azwi nk'amashiga, baterekagaho isafuriya, igihe babaga batetse. Haragaragara kandi igikoresho gikoze mu migano kizwi nk'intara cyangwa se inkoko.

Ibikoresho gakondo byakoreshwaga mu Rwanda rwo hambere bizwi nk'ingoma, aho cyakorwaga hifashishije uruhu rw'inka, hagaragara kandi n'uduti tubajije neza tuzwi nk'imirishyo, abana nka babakobwa bari kuvuza izi ngoma bazwi nk'abakaraza.

Igikoresho kizwi ku izina ry'umutiba, aho cyifashishwaga n'Abanyarwanda ba kera, aho bagihunikagamo imyaka yabo babaga basaruye. By'umwihariko ibinyampeke nk'amasaka, ibigori ndetse n'ibishyimbo.

Abagore bari gukora igikorwa kizwi nko gukama ibitoki, kugira ngo babone inzoga ibivamo yitwa ugwagwa. Bari kubikorera mu gikoresho gakondo kitwa umuvure, cyavaga mu giti gikozwe n'abantu, bitwa abaramvuzi.

Umugore w'umwami bitaga umwamikazi mu gihe cya kera ndetse n'ubungubu wambaye imyambaro igiye itandukanye, ku maboko ye yambaye ibintu bifite ishusho y'uruziga byitwa ibikomo ndetse no mu ijosi rye harimo urunigi.

Igikoresho cya gakondo bakoraga mu biti kitwaga isekuru ndetse n'umusekuru wacyo, cyakoreshwaga basekura ibinyampeke nk'ibigori, uburo n'ibindi, anone kandi ca yakoreshwaga basekura imboga zizwi nk'isombe.

Abari bafite ibikoresho byakoreshwaga mu Rwanda rwo hambere, aho bafite icyansi cyabuganirizwagamo amata, bakagira n’igisabo bakoreshaga bacunda amata y’inka.

Mu biribwa gakondo harimo ibijumba, ibihaza, igitoki gitetse amaganda, ndetse n'ibirayi. Umutsima w'amasaka, amasahani, ibiriko n'amarushi ndetse byose uko biteretse ku meza.

Ibikoresho gakondo byakoreshwaga mu Rwanda rwo hambere, by'umwihariko umuvure wakoreshwaga n'abantu bengaga inzoga yo mu bitoki yitwaga urwagwa, ndetse haragaragara n'uduti duhambiriye hamwe, tuzwi nk'udutanda twakoreshwaga bari gukamura igikatsi.

Igikoresho gakondo cyakoreshwaga mu Rwanda rwo hambere, iki gikoresho cyakorwaga mu giti cyangwa se babyitaga kuramvura, aho cyifashishwaga mu gusekura ibinyampeke nk'ibigori ndetse n'ubunyobwa, ariko kandi cyakoreshwaga basekura imiti gakondo.

Ibikoresho nyarwanda byakoreshwaga mu Rwanda rwo hambere aho hagaragaramo igisabo cyifashishwaga n'abantu bacundaga amata, hagaragaramo igiseke babikagamo imyaka by'umwihariko ibinyampeke, hagaragaramo icyo bitaga urukiza cyangwa se uruho rwifashishwaga abantu bari kunywa amazi.

Umuntu uri gukora igikorwa kimwe mu birangaga, umuco nyarwanda kijyanye n'ububoshi, aho ari kuboha igikoresho kizwi nk' icyibo gitwarwagamo ibinyampeke, nk'ibishyimbo n'ibigori hagaragara kandi igikoresho cakoreshwaga mu Rwanda rwo hambere, kizwi nk'ikirago abantu bacicaragaho cabohwaga mu byakatsi.

Igikoresho cy'ikoranabuhanga gikoreshwa mu bijanye n'amashanyarazi kizwi nk'umurasire. Cyifashishwa igihe bahindura imbaraga zituruka ku mirasire y'izuba zikavamo umuriro w'amashanyarazi ukoreshwa mu ngo ndetse no mu nganda.

Igikoresho gikoreshwa muri iy'Isi y'ikoranabuhanga, by'umwihariko hagamijwe kugira ngo kibashe guhuza isoko y'umuriro ndetse n'igikoresho kiyikeneye, by'umwihariko gikoreshwa ku guhuza imashini zigiye zitandukanye.

Inyubako rusange ikoreshwa mu bikorwa byerekeranye no gusenga hagaragara abantu bagiye kuhasengera ndetse n'imodoka itwara abantu ku giti cyabo, inyuma haragaragara ndetse n'ibiti.

Inyubako rusange by'umwihariko zikorerwamo n'inzego za leta, hagamijwe kuzamura ireme ry'abaturarwanda, iruhande haragaragara imihanda migenderano ikoreshwa n'ibinyabiziga, ndetse n'abantu muri rusange.

Ibimera biri mu bwoko bw'ibyatsi bigufi, amazu bigaragara nk'aho ari amashuri cyangwa se ibitaro, ikigega gifata amazi, amapoto n'insinga bitwara umuriro w'amashanyarazi, ibiti, amasekariye abantu banyuraho bazamuka, ndetse n'uruzitiro rukoze mu byuma ruzwi nka senyenge.

Inyubako rusange ya reta aho abanyeshuri bigira bakaha hererwa amasomo ajyanye n'ubumenyingiro ndetse n'ubumenyi rusange, abahungu n'abakobwa, abafite ubumuga n'abatabufite bose bajya kuhafatira amasomo.

Amatara yaka mu gihe cya nijoro amapoto ndetse n'insinga byifashishwa batwara umuriro w'amashanyarazi, bawuvana ahantu hamwe bawujyana ahandi.

Inyubako rusange zikorerwamo n'inzego bwite za leta, by'umwihariko hagamijwe guteza imbere imiyoborere myiza ndetse no kwegereza ubuyobozi abaturage, ikindi kandi haba hagamijwe guca umuco wo kudahana ndetse n'ibindi.

Inyubako nini cyane isize irangi ry'umweru ikorerwamo n'inzego bwite za leta, hagamijwe kuzamura ireme ry'umuturage ndetse no kugeza ubuyobozi kuri bose, ikindi kandi yifashishwaga mu guha ubutabera abaturage.

Inzu nini cyane bigaragara ko itangirwamo ubufasha bwerekeranye na gahunda za Leta, umuntu wicaye imbere y'iyo nzu bigaragara ko arizo yaje gushaka. Undi muntu na we uherekeza nkeka ko ari zo yaje kureba. Inyuma kandi hari ibiti byinshi cyane bigaragara ko ari ishyamba.

Igikorwa remezo rusange cyifashishwa mu bikorwa byerekeranye no gusenga, abashaka gusenga ahangaha niho basengera by'umwihariko kandi hagaragara amatara bigaragara ko ariyo acanwa mu masaha ya n'ijoro akaba ari nayo soko y'urumuri rugaragara kuri uru rusengero.

Inyubako ndende cyane aho abantu basengera. Imbere y'iyo nyubako hari imbuga nini cyane. Aho imodoka ziparika haparitse imodoka zitwara abantu ku giti cyabo ndetse hazitijwe ibyuma biharindira umutekano.

Inyubako nini cyane ifite igipangu, iruhande rwa cyo, ipoto rigaragara ritwara umuriro w'amashanyarazi, haparitsemo ikimodoka gitwara imizigo, by'umwihariko ibikoresho by'ubwubatsi.

Ikiraro kirekire kiri mu kirere abantu bambukiragaho, bari kuva mu ruhande rumwe bajya mu rundi. Amazi aca munsi atemba, ava ruguru ajya hepfo. Ibyuma biri ku mpande, abantu bafata igihe bari gutambukiraho, kugira ngo batagwamo.

Inyubako rusange ikorerwamo ibikorwa bijyanye no gusenga, by'umwihariko isengerwamo n'abantu babarizwa mu idini rya isilamu rizwi nk'umusigiti, iruhande hagaragara umuhanda wa kaburimbo unyuramo ibinyabiziga bitwara imizigo ndetse n'abantu.

Inyubako rusange y'inzego bwite zitari iza leta, ikoreshwa mu bijyanye no gusenga. Hakaba ari naho abantu basengera iyo babishaka. Inyuma hagaragara abantu benshi bigaragara ko baje kuhasengera. Inyuma y' urusengero kure cyane hagaragara umusozi, bigaragara ko urusengero ruri hagati y'imisozi.

Igikorwaremezo kizwi nk'umuhanda wa kaburimbo cyifashishwa n'abantu batwara ibinyabiziga bitandukanye, ndetse nanone gikoreshwa n'abanyamaguru, aho bagicamo bagenda.

Inyubako rusange ndende cyane, ikorerwamo ibikorwa bijyanye no gusenga kw'abaturage batuye muri aka gace. Haragaragara abantu benshi cyane bagizwe n'abagabo, ndetse n'abagore baje gusenga.

Inyubako rusange ikoreshwa n'inzego bwite za Leta iri ku rwego rw'umurenge, yifashishwa kenshi kugira ngo ubuyobozi bwegerejwe abaturage, ndetse no kuzamura imibereho myiza y'abaturage mu Rwanda.

Inzu nini cyane yubakishijwe amabati akaba ari naho bahunika umusaruro iruhande hari abagore, ndetse n'abagabo bose bazanye umusaruro ahongaho, bigaragara ko ariho bawuhunika kandi hagaragara umudamu umwe uhetse igikoresho bakoresha batera umuti kiswe ipombo.

Amazu menshi akoreshwa mu bikorwa bijyanye no kwiga, ikibuga gikoreshwa n'abantu bakina umupira w'amaguru, umuhanda ukoreshwa n'abanyamaguru ndetse n'abandi bantu batwara imodoka, n'ibindi binyabiziga. Ibiti byinshi bikikije aya mashuri, bitanga umwuka mwiza.

Inzu ndende cyane ku mbuga yayo hariho abantu benshi bahagaze iruhande rw'imodoka, iyo mbuga hariho umwanya uriho abo abantu bafite imodoka baparika ibinyabiziga byabo.

Umuhanda wa kaburimbo baciyemo imirongo y'umweru aha abantu bambukira. Iruhande hagaragara inzu nini isakaje amabati y'umutuku kandi ifite n'igipangu. Haragaragara ipoto iriho itara ryaka mu masaha ya nijoro.

Ku rusengero ahahuriye abantu benshi, abagore n'abagabo bafite imitaka, ibitoki bigaragara nk'aho ari amaturo, ndetse n'ahantu bugama imvura n'izuba hazwi nk'ikidara, ndetse haragaragara umusaraba hejuru y'urwo rusengero.

Inzu nyinshi cyane zicukiranye ku buryo bigaragara ko habamo abantu mu buryo bwa rusange. Hagaragara kandi amapoto n'insinga bitwara umuriro w'amashanyarazi, umunara ukoreshwa mu bijanye n'itumanaho rya interineti ndetse na za telefoni.

Inyubako rusange ikorerwamo ibikorwa bijyanye no gusenga aho abantu b'ibyiciro byose ,abagabo, abagore abana ndetse n'abakuze bahurira iyo bashaka kuhasengera.

Inyubako nini cyane iriho umusaraba. Bigaragara ko ari ho abantu basengera, ndetse imbere yaho hagaragara ahantu haparika ibinyabiziga bitandukanye, harimo imodoka. Haragaragara urujya n'uruza rw'abantu b'abagore n'abagabo, bigaragara ko baje gusenga.

Inyubako rusange ikorerwamo n'inzego bwite za leta, by'umwihariko ni verisite nkuru y'u Rwanda iherereye mu Karere ka Nyagatare, umujyi wa Nyagatare aho higirwamo amasomo ajyanye n'iby'uburezi ndetse n'ibijyanye n'ubuvuzi bw'amatungo ndetse n'ibindi.

Abantu benshi bagizwe n'abagabo n'abagore, bigaragara ko bihaye Imana cyangwa se bakorera Imana. Umusaraba, imodoka, inyubako ziri inyuma yabo ndetse n'ibintu abantu bugamamo imvura ndetse n'izuba bizwi nk'ikidara mu Kinyarwanda.

Inzu nini cyane yubakishije ibiti bakozemo imbaho zisakaje amabati, bigaragara ko bororeragamo inka nkuko zigaragara hariho n'umuntu bigaragara ko ari we warora izi nka.

Inyubako ndende cyane aho abantu basengera, iruhande haragaragara ibibumbano by'amashusho agiye atandukanye, imbere haraca urutsinga rutwara umuriro w'amashanyarazi, iruhande hari ibiti bitanga akayaga mu rusengero.

Inyubako ngari cyane zikorerwamo n'inzego za leta, akenshi batangiramo serivisi zerekeranye n'imibereho myiza y'abaturage, ndetse n'iz'ubutabera. Inyuma kandi haragaragarayo ibiti bifite uruhare runini mu iterambere ry'igihugu cyacu.

Imodoka nyinshi ziparitse ahantu hamwe, zose zikora imirimo ijyanye no gutwara abantu ndetse n'ibintu, zibavana mu gace kamwe k'igihugu, zibajyana mu bindi bice bitandukanye.

Haragaragara amashuri bigiramo, ibibuga bakiniramo ndetse harimo n'imihanda inyuranyuranamo, abanyamaguru ndetse n'ibinyabiziga banyuramo mu bikorwa byabo bya buri munsi.

Inyubako rusange ikorerwamo n'abantu ku giti cyabo, akaba ari naho abantu basengera, ikindi kandi haragaragara ibiti biri ku ruhande, bigira uruhare runini mu gutanga ku muyaga n'umwuka mwiza duhumeka.

Inyubako rusange, izwi nk'ikiraro, icaho abantu bambukiranya bava mu gace kamwe bajya mu kandi, by'umwihariko bambuka imigezi itemba. Haragaragara amabara y'ibendera ry'igihugu cyacu, ari yo icyatsi, umuhondo, ndetse n'ubururu.

Inyubako z'amashuri, umugabo umwe ushinzwe umutekano wo mu rwego rwa Daso, abagore ndetse n'abagabo bakora imirimo y'ubwubatsi, abambaye ingofero z'umweru zibarinda igihe habayeho impanuka mu kazi k'ubwubatsi.

Inyubako nini cyane iri ahitaruye. Impande yaho hari ibiti ndetse hari n'abantu bigaragara ko bari gukora ibikorwa runaka kuri iyi nyubako. Hariho umusaraba bigaragara ko ari aho abantu basengera.

Abantu bari gukora ibikorwa bijyananye n'imirimo yo kubaka, abagabo bari hejuru y'ibiti bahagazeho bita ibikwa, aribo barimo gukora igikorwa cyo kubaka, ndetse n'abandi bari hasi bigaragara ko bakora ibikorwa bijyanye no guhereza abantu bubaka bitwa abafundi.

Umuhanda uri mu bwoko bwa kaburimbo, unyuramo ibinyabiziga ndetse n'abantu. Uwo muhanda uragaragaramo imirongo itatu, umwe uri hagati w'umuhondo, ndetse n'undi umwe w'umweru. Buri ruhande, ku mpande kandi hagaragara utuyira duto tunyuramo abagenda n'amaguru.

Inama rusange yahuje abaturage ndetse n'inzego bwite za leta, aho bari guhabwa amahugurwa ku bijyanye n'uburenganzira bwa muntu, ndetse no kwimakaza umuco ujyanye n'ubutabera.

Inama yahuje abayobozi ndetse n'abaturage, by'umwihariko hagamijwe gukora ubukangurambaga bwerekeranye no kubahirizwa k' uburenganzira bwa muntu, ndetse n'ibijyanye no guha ubutabera bukwiye ku bantu bose.

Uruvange rw’abagore ndetse n’abagabo, bateraniye ahantu hamwe mu bikorwa by’inama, aho barimo guhabwa amabwiriza n’umugabo umwe. Bishoboka ko ari umuyobozi. Hagaragara igikoresho cyifashishwa nk’indangururamajwi.

Abantu benshi bagizwe n'abagore ndetse n'abagabo, harimo intebe bicayeho, muri bo harimo umuntu umwe uhagaze, ufite igikoresho gikoreshwa igihe bari kuvuga ,kizwi nka mikoro.

Urujya n'uruza rw'abantu, bigaragara ko bari ahantu hamwe, berekeza ku modoka nini cyane zizwi nka bisi. Zitwara abantu n'ibintu, zibavana mu nce zimwe z'igihugu, ziberekeza mu bindi bice.

Ahantu hagari kandi hazitiye haparikamo imodoka inini n'intoya, zitwara abantu ibyiciro bitandukanye abagore n'abagabo, zibavana ahantu hamwe zibajyana ahandi mu nce zitandukanye z'igihugu.

Igikorwa remezo rusange kizwi nk'ikibuga cy'indege, hakaba ariho indege zigwa, akaba ari naho zihagurukira, izi ndege zitwara abantu ndetse n'ibintu, by'umwihariko zikunda gukora ingendo zija mu mahanga cyangwa se izo hagati mu gihugu.

Abagabo bicaye mu kintu gikoze mu biti, kimeze nk'umuvure cyitwa ubwato, bari kugenda bava ahantu hamwe bajya ahandi, kandi biragaragara ko baroba muri ari aya mazi ashobora kuba ari ikiyaga.

Ahantu abantu banyonga baparika, hariho abantu batatu batwara amagare, umwe yambaye ikigofero cya purasitike kimurinda igihe aguye kugira ngo adakomereka, abamotari batwara moto.

Igikorwaremezo rusange, aho imodoka by'umwihariko izitwara abagenzi, ndetse n'ibintu, ziparika zitegereje abagenzi. Izi modoka zikora ingendo ziva mu gace kamwe k'igihugu, zigana mu tundi. Aha hantu ziparika hazwi nka gare mu ndimi z'amahanga.

Ikinyabiziga kinini cyane, kibarirwa mu bwoko bw'imodoka, kizwi ku izina rya bisi, gitwara abantu benshi ndetse n'ibintu, kibavana mu duce tumwe tw'igihugu, kiberekeza mu tundi duce tw'igihugu by'umwihariko gikoresheje imihanda ya kaburimbo, cyangwa se iy'igitaka.

Abantu benshi bigaragara ko bari kwerekeza mu ngendo zigiye zitandukanye, imodoka zitwara abagenzi zibavana ahantu hamwe zibajyana ahandi, ariko by'umwihariko hagaragara imodoka zitwara abantu babana n'ubumuga, nk'uko bigaragara ko zifite ibikoresho bituma babasha kwinjizamo amagare yabo abatwara mu nzira bisanzwe.

Ahantu haparika ibinyabiziga, bizwi ku izina ry'amagare, bitwara abantu ndetse n'ibintu bibavana ahantu hamwe bajyana ahandi, hagaragara abantu bayatwara bazwi ku izina ry'abanyonzi.

Urujya n'uruza rw'abantu n'ibintu n'imodoka nyinshi zitwara abantu zavanwe ahantu hamwe zibajyana ahandi, kandi hagaragaramo n'abantu batwara moto bazwi nk'abamotari, batwara abantu n'ibintu bajyana mu zindi nce zigiyehe zitandukanye.

Imodoka nini y'umweru itwara abantu ndetse n'ibintu. Iparitse mu muhanda w'igitaka ukikijwe n'ibiti ndetse n'ibyatsi ku ruhande rw'iburyo rw'iyo modoka.

Ikinyabiziga gikoreshwa n'abantu batwara imizigo. Iruhande rwacyo haragaragara ahantu abacuruzi bacururiza ibikoresho bitandukanye bikoreshwa mu ngo, harimo imyenda ndetse n'ibijyanye n'amafunguro.

Imodoka nini cyane ziri mu ubwoko bwa bisi zitwara abantu zibavana mu duce tumwe zibageza mu tundi, hagaragara abantu harimo abantu babashoferi ikindi kandi n'abandi bantu bigaragara ko baje gutega izi modoka.

Imodoka nini cyane izwi ku izina ry'ikamyo, aho ikoreshwa mu gutwara ibikoresho bikoreshwa mu bwubatsi nk'amabuye, imicanga, amasima ndetse n'ibindi.

Igikoresho gikozwe mu biti kifashishwa mu gutwara imizigo by'umwihariko kigaragara mu bice by'icyaro mu gihugu cy'u rwanda, sibyo gusa kandi haragaragara ahantu bacururizaga ibijanye n'imyambaro.

Umuhanda wa kaburimbo urimo imodoka itwara imizigo itandukanye, by'umwihariko amakese arimo inzoga, kandi aha inyuma hari ibyapa bigizwe n'amabara y'ubururu n'umweru ndetse n'umuhondo, kandi iruhande rw'umuhanda haragaragara utuntu dukoze mu byuma dufata imodoka igihe haba habaye impanuka.

Imodoka nini ziri mu muhanda utari uwa kaburimbo. Zitwara ibikoresho bikoreshwa mu kubaka amazu, imihanda, ibiraro ndetse n'ibindi. Muri ibyo bikoresho harimo umucanga, amabuye, n'amagaraviye. Iruhande hari ipine, hakaba n'ibindi bikoresho biri iruhande rw'umuhanda bikozwe mu mbaho.

Abantu bagenda banyuranyuranamo harimo abatwaye amagare harimo n'abagenda n'amaguru. Umugore atwaye igare afite ikidomoro, na ho undi mugabo upakiye ibiribwa bimeze nk'isombe. Undi apakiye inkoko ku igare.

Ahantu haparika ibinyabiziga by'umwihariko, imodoka zitwara abantu ndetse n'ibintu, zibavana mu bice bigiye bitandukanye, zibajyana mu bindi bice by'igihugu. Haragaragara kandi amapoto n'insinga zitwara amashanyarazi.

Ahantu baparika imodoka. Imodoka ebyiri zitwara abantu mu buryo bwa rusange, indi imwe itwara umuntu ku giti cye, hirya gatoya haragaragara amazu menshi ahakikije, bigaragara ko ari nko muri gare.

Umuhanda w'igitaka utarimo kaburimbo. Urimo imodoka ebyiri zigaragara ko zitwara abagenzi zibavana hamwe zibajyana ahandi hantu. Inyuma haragaragara ibiti bitari birebire cyane , bigaragara ko byahuye n'izuba.

Imodoka nini cyane igizwe n' amabara y' umweru ndetse n' umukara ikoreshwa mu gutwara abantu n' ibintu, bava munce zimwe z' igihugu cacu berekeza mu zindi hagaragara kandi abantu bari kwinjira muri iyo modoka bigaragara ko bashaka gukora ingendo.

Imashini zikoreshwa mu gusiza ahantu bagiye kubaka amazu, cyangwa se imihanda. Abagabo babiri bafite ibikoresho byitwa ibitiyo bikoreshwa mu guponda isima, cyangwa se kuyora itaka, imodoka itwara umuntu umwe ku giti ke.

Umuhanda wa kaburimbo unyuramo imodoka n'ibindi binyabiziga. Imodoka nini cyane iri mu bwoko bwa bisi itwara abantu, ibavana hamwe ibajyana ahandi. Ibiti biri ku mpande y'umuhanda, ndetse impande y'umahanda wa kaburimbo hagaragara n'akayira gatoya kanyuramo abantu.

Imashini ikoreshwa muri iki gihe cy'isi y'ikoranabuhanga. Aho bakozaho ikarita, hakavaho amafaranga. By'umwihariko ikoreshwa mu bijyanye n'ingendo, aho ukozaho hakavaho amafaranga, maze ukaba wishyuye itike y'urugendo.

Ahantu haparitse ibikamyo birebire cyane bifite ibara ry'umweru, aho bikunda gukoreshwa hari gutwara ibikomoka kuri esanse ndetse na peteroli.

Imodoka ndende cyane izwi nka rukururana, itwara imizigo iremereye cyane yambukiranya imipaka, hari umunyonzi uri kwigare uyiri inyuma wayifasheho, iryo gare atwaye ripakiye ikidomoro cy'umweru.

Ibikoresho bikoreshwa mu bijyanye no gutwara imizigo, ndetse n'abantu, aho hagaragara umugore utwaye igare, apakiye agafuka karimo ibintu. Hagaragara n'imodoka itwara abantu ku giti cyabo, ndetse n'imizigo muri rusange.

Indege nini cyane y'ikigo cy'u Rwanda gikora imirimo ijyanye no gutwara abantu n'ibintu ibavana ahantu hamwe ibajyana ahandi. Hari abantu bambaye amajire y'imihondo bigaragara ko bakora imirimo yo mu ndege, imbere hari abantu batatu bambaye amakoti ndetse n'udupfukamunwa.

Umuhanda uri mu bwoko bwa kaburimbo, urimo ibimodoka byinshi bipakira imizigo iremereye, iruhande haragaragara abantu bari kugenda mw'uwo muhanda, ariko badafite ikinyabiziga bari gukoresha amaguru yabo.

Umuhanda ugezweho uzwi nka kaburimbo urimo imodoka ipakira imizigo ivangavanze harimo imifuka, bishoboka ko ipakiye umusaruro ukomoka ku buhinzi, harimo n'ibidomoro ndetse n'abantu bapakira uwo musaruro.

Ahantu hari abantu benshi abahungu n'abakobwa , bigaragara ko baje gutega imodoka ngo zibajyane ku mashuri bigaho ndetse n'imodoka ibatwara iragaragara mu ruhande rwabo rw'iburyo ndetse n'amazu ari imbere yabo bigaragara ko ariho bakatira amatike.

Inzu bacururizaho umusaruro w'ibikomoka ku buhinzi, aho hagaragara abagore babiri bari gutwara amagare bapakiyeho ibifuka birimo umusaruro, inyuma yabo haragaragara umugabo usa n'aho amaze kubasimbura kuri aya magare, ndetse haragaragara n'abandi bantu benshi begereye cyane izi nzu.

Ahantu hagari cyane harimo abantu benshi benshi cyane. Kandi na none hagaragaramo imodoka nyinshi arizo zitwara abantu zibavana ahantu hamwe zibajyana ahandi, kandi haragaragaramo amapoto ndetse n'amatsinga atwara umuriro w'amashanyarazi.

Ahantu haparitse imodoka z'ikigo runaka, gikora ibikorwa bijyanye no gutwara abantu n'ibintu, zibavana mu ce zimwe zibajyana ahandi, inyuma y'izo modoka haragaragara ibiti byinshi cyane, bipfukiranye ku buryo bikoze akantu kameze nk'agashyamba, hagaragaramo n'abantu bigaragara ko bazitwara.

Umubare munini w'abantu harimo abagore, abagabo, abana, ndetse iruhande hari imodoka itwara abantu mu buryo bwa rusange, ikabavana mu gace kamwe ikaba yabageza mu kandi gace.

ibimodoka binini cyane byikorera imizigo, ubu bipakiye umusaruro uturuka ku buhinzi nk'imbuto haragaragara amatara yaka n'umuntu ukora muri iki gice aho bapakirira ibi biribwa.

Imodoka nini cyane ifite ibara ry'umutuku, yifashishwa mu gutwara ibikoresho, bikoreshwa mu bijyanye n'ubwubatsi, nk'amabuye ku mucanga ndetse n'ibindi, kandi hagaragara umuntu bigaragara ko ari kuyipakiramo umucanga.

Ahantu hari abantu b'ibitsina byose, abagabo ndetse n'abagore, by'umwihariko hagaragara abantu bazwi nk'abamotari batwara abantu ndetse n'ibintu, babavana ahantu hamwe babajyana ahandi.

Abagabo babiri bari ku gikoresho kizwi nk'igare, aho cyifashishwa n'abantu batwara imizigo ndetse n'ibintu, babivana ahantu hamwe babijyana ahandi. Ubwoko bw'aya magare bayita ramozine. Akunda kuba mu ntara y'amajyaruguru, by'umwihariko mu karere ka Musanze.

Ahantu hasa n'aho haparika imodoka nyinshi cyane, hari abantu benshi cyane, bagiye gukora ingendo, aho batemerewe kwegerana, bari no gukarabya kugira ngo binjire mu modoka.

Ahantu haparitse imodoka rusange itwara abarwayi izwi nka ambulance. Zikunda kuba zifitwe n'ibitaro ndetse n'inzego za leta zishinzwe gutabara ahantu habaye ibibazo runaka.

Urujyanuruza rw' abana n' ibintu rugizwe: n' abagore, ndetse n' abagabo aho umubare munini w' abantu benshi muri bo batwara; amamoto akoreshwa mu gutwara abantu abavana ahantu hamwe abajyana ahandi mu nce zitandukanye.

Abagabo ndetse n'abagore bari imbere y'inyubako baparitseho ibinyabiziga bizwi nka moto, byifashishwa mu gutwara abantu ndetse n'ibintu babivana ahantu hamwe mu gice cy'igihugu babijyana mu zindi nce, zigiye zitandukanye.

Ahantu haparika ibikoresho byifashishwa mu gutwara abantu ndetse n'ibintu, hazwi nko ku kibuga cy'indege, hagaragara indege nini cyane itwara abantu, ndetse n'ibintu. Ibajyana ahantu by'umwihariko yambukiranya imipaka z'igihugu cy'u Rwanda.

Imodoka nini cyane yakoreshwaga batwara abantu n'ibintu mu minsi yashize. Hagaragara n'akandi kamodoka kari inyuma yayo gatwara abantu ku giti cyabo. Hari amapoto ndetse n'insinga bikoreshwa hakwirakwizwa umuriro w'amashanyarazi mu nce zitandukanye.

Ahantu baparika moto nini zitwara imizigo zizwi nka rifani, inyuma kandi haragaragarayo imodoka nini itwara amakesi arimo inzoga, ikindi kandi inatwara imizigo iremereye nk'imifuka y'imiceri, akawunga, ndetse n'ibindi.

Abagabo bambaye imyambaro ya siporo, bakoresha bakina umukino ukinishwa amaboko, uzwi nka hendiboro. Haragaragara izamu rikikijwe n'inshundura. Hahagazemo umugabo umwe ukuramo imipira yerekeje mu izamu.

Umutegarugori wambaye umwambaro w'ikipe y'igihugu cy'u Rwanda, ukina umukino bakina bakoresheje amaboko witwa voreboro. Inyuma haragaragara inshundura zizwi nka fire mu ndimi z'amahanga.

Itsinda rigizwe n'abantu barenze umwe b'abagabo, bakora imirimo ijyananye no gukina umukino wo gusiganwa ku magare, bazwi nk'abanyonzi.

Abagabo babiri bari kubyina imbyino za gakondo, inyuma yabo haragaragara abandi bari gukora imirimo ijyanye no kuvuza ingoma, iruhande rwabo haragaragara abagore bari gukoma amashyi. Hagaragara ibipapuro byifashishwa bashishikariza abantu gusura u Rwanda.

Abakobwa bambaye amasengeri, amakabutura ndetse n'inkweto za siporo, aho bari gukina umukino uzwi nka basiketibolo ukinishwa intoki, bagenda badunda umupira.

Umuhanda w'amabuye, ukikijwe n'abantu bari gufana umukinnyi ukina umukino w'amagare. Bigaragara ko hari habaye irushanwa ryo gusiganwa ku magare. Iruhande rw'umuhanda haragaragara abantu, abagore, ndetse n'abagabo.

Abantu bagizwe n'ibitsina byombi, ni ukuvuga abagabo ndetse n'abagore, bari kugenda, bari kwirukanka aho bari gukora siporo bakoresheje amaguru ya bo gusa, nta kindi gikoresho bakoresheje.

Ibiti byinshi bidafite amababi menshi. Kandi hagaragara ikibuga gikinirwamo umukino bakina wakoreshejwe intoki uzwi nka voreboru. Haciyemo imironko, harimo file, hari n'utwuma tumanitseho fire.

Umuhanda wa kaburimbo ugaragaramo abantu bari ku magare, bigaragara ko bari gukina umukino wo gusiganwa ku magare, iruhande haragaragara abantu ku mpande zombi barimo bari gufana uyu mukino w'amagare, hariho n'amatara yaka ku masaha ya nijoro.

Inyubako nini yakira ibikorwa bitandukanye. Ikibuga abantu bakina umupira w'amaguru bakoresha . Abantu bazengurutse ikibuga, bafana igihe umupira abakinnyi bari kuwukina.

Inyubako rusange ikorerwamo ibikorwa bijyanye n'imyidagaduro ndetse na siporo. Ariko by'umwihariko hakinirwamo umukino wakinishwaga amaguru, uzwi nk'umupira w'amaguru cyangwa se futuboro mu ndimi z'amahanga.

Ahantu hateraniye abantu benshi cyane, bigaragara ko haberaga umukino w'ubwoko runaka, ariko harimo umuntu umwe wabaye indashyikirwa kurusha abandi, ku buryo bigaragara ko bari kumwambika umudari w'ishimwe.

Urubyiruko ruri muri siporo, bari kugenda ahantu hatambitse harambuye h'umurambi, hari n'ibiti bari guca mu biti, ariko nanone hari amazu agaragara kure yabo ho gatoya, ikindi kandi urarangiza ukabonamo ibyatsi bitoshye bigaragara ko ari mu gihe k'imvura.

Inyubako nini cyane kandi nziza cyane, yo mu Rwanda izwi nka Kigali arena, ikorerwamo ibikorwa bijyanye na siporo, ndetse n'imyidagaduro. Akenshi haberamo ibitararamo by'abahanzi mpuzamahanga, ariko na none haberamo imikino itandukanye, nka basikete, vore, ndetse n'ibindi.

Itsinda rigari cyane rigizwe n'abagabo ndetse n'abagore, aho bari kugenda birukanka mu muhanda wa kaburimbo bakoresheje amaguru yabo, bari gukora umukino wo kwirukanka uzwi nka mucaka cyangwa se marato.

Abana b'abakobwa babana n'ubumuga bw'amaguru bari mu kibuga bakiniramo imikino ngororamubiri. Kandi ruguru haragaragara nk'intebe zicarwamo n'abafana baba baje kureba umupira.

Ikibuga bakiniragaho umukino bakina bifashishije intoki, uzwi nka vole bale mu ndimi z'amahanga. By'umwihariko ikibuga kigizwe n'umucyanga cyifashishwa n'abantu bafite ubumuga bw'amaguru.

Hagaragara umubare munini w'abasore wakinaga umukino wa basiketiboro, aho bari mu kibuga ariko iruhande rwabo haragaragara umuntu uri ku ruhande, bisa n'aho ari we ubatoza gukina uyu mukino.

Abagabo barenze umwe, n'umugore umwe bari muri siporo bakora bagenda n'amaguru, ndetse umwe muri abo bagabo afite icupa rishyirwamo amazi yo kunywa, ikindi kandi urabona ibiti biri mu bwoko bw'indabo biterwa mu mugi hagamijwe kurimbisha uwo mu mugi.

Umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo unyuraramo ibinyabiziga bigenda bitandukanyekanya: moto, imodoka, amagare ndetse n'ibindi kandi ku ruhande hagaragara akayira gato kabagenzi kanyuramo abanyamaguru.

Igice cy'umuhanda wa kaburimbo giciyemo imirongo iri mw'ibara ry'umweru izwi nka zebura korosingi, aho abagenzi babisikana n'ibinyabiziga.